Abana batandukanye bambaye imyenda itandukanye, bamwe bambaye amakabutura, imipira, abandi bambaye amapantaro ndetse n'isengeri, bari kuvoma amazi, umwe muri bo ari gupompa ayazamura kugira ngo abashe kujya mu njerekani ariko yose ntabwo ari kujyamo neza, amwe muri yo ari kumeneka.

Ihuriro ry'abantu benshi bicaye bari kureba imbere, bambaye amabaji, harimo inzego zitandukanye. Harimo abagore, abagabo, abagabo banini cyane ubona ko babyibushye.

Robine ifunguye amazi menshi, umuntu atezeho intoki ari gukaraba ibiganza byombi uko ari bibiri, amazi amanuka hasi, atemba ajya mu mpande zitandukanye.

Abana bari kuri robine bari gukaraba intoki n'amazi meza, bambaye iniforume zisa ndetse umwe ari kugaragaza ibiganza bye abyerekana, inyuma yabo hari amashuri bigiramo kugira ngo babashe kugira ubumenyi.

Umubyeyi ukeneye igitenge yambaye umupira afashe kuri robine ari kuvoma amazi, inyuma ye hari ubutaka, amashyamba ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abantu benshi harimo abubatsi ndetse abandi ni abaje kuvoma amazi kuri robine, robine uko ari eshatu zose zirafunguye amazi ari kumeneka agenda yitembatembera ajya mu mpande n'izindi mpande.

Abana bari kuvoma bakoresheje intoki, ni za robine ufataho ugakomeza kugira ngo amazi abashe kuba yamanuka kuko urekeye aho gufataho amazi ntabwo yamanuka, ari kugenda amanuka agwa mu njerekani, hirya hari n'abandi nabo bari kuvoma.

Abantu benshi bicaye, abana abantu bakuru abasaza, abakecuru abamama baricaye, inyuma yabo hari kandagira ukarabe, bicaye ku dusima.

Abantu benshi bafatanye ku rutugu, bamwe muri bo bambaye iniforume imyenda y'akazi, abandi ntabwo bayambaye, bari imbere ya sale bakoreramo inama zigiye zitandukanye, kugira ngo babashe kugira ibyo baganiraho neza.

Abaganga bari kuvura umurwayi bambaye iniforume isa, bambaye udupfukamunwa ndetse n'ibitambaro mu mutwe kugira ngo imisatsi itabasha kugwa mu murwayi, umurwayi aryamye ku gitanda bari kumuvura.

Ihuriro ry'abantu benshi bagiye batandukanye, bamwe bari mu itente, abandi bari inyuma y'itente, hari umugabo uri kwitaba telefone wambaye baji akambara n'ingofero. Bari imbere y'inzu ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye.

Ikigo gishinzwe kwita ku bana bose aho bava bakagera, guhera ku mwana ukivuka kugeza ku mwana mukuru utararenza imyaka cumi n'umunani ndetse n'uwayirengeje wese kimwitaho.

Abantu benshi bahagaze, bari kureba umubyeyi uri gupompa amazi kugira ngo abashe kuza, ni za robine ziba mu cyaro kugira ngo bazikoreshe bifashisha kugira ngo babone amazi. Bazikoresha bakoresha imbaraga nyinshi.

Abaganga benshi bari imbere y'inzu, bambaye amataburiya bafite amabaji, bahagaze imbere y'umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru n'amarinete, bari kumuririmbira bakoma mu mashyi.

Abantu bicaye bari kuganira, umwe muri bo bafite mikoro abandi bafite amamashini imbere yabo kuri table hateretseho amacupa y'amazi meza cyane, igice cyabo cyo hasi ntabwo kiri kugaragara, hari kugaragara igice cyo hejuru.

Abantu benshi bari kugenda bafata imifuka bayirundanya bayishyira ahantu hamwe kugira ngo babashe kuba bayikorera neza, ababyeyi babiri bambaye amasharupe barateruranye imifuka kugira ngo babashe kuba bagira aho bayiterega.

Abantu benshi bahuriye hamwe bari mu gikorwa kimwe cyo kuvura abana batoya, aho umugabo ari gutera umwana urushinge ari kumureba uwo mwana ari kumwe n'umubyeyi we, hirya yabo hari abandi bantu nabo baje kwivuza.

Abana benshi, umugabo bari kumwe ,abo bana barishimye bafite ibipapuro babishyize hejuru, bamwe muri bo baricaye, abandi babahagaze inyuma, n'uwo mugabo bari kumwe ahagararanye na ba bana bahagaze.

Uruhurirane rw'abagabo benshi bicaye kuri table bicaye ku ntebe imbere yabo hari uducupa ndetse hari n'amakayi bafashe bari kuganira inyuma yabo hirya yabo gatoya hari abandi nabo bicaye.

Ihuriro ry'abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abadushinzwe, inzego z'umutekano ndetse n'abaganga, hari ambilanse bigaragara yuko umwe muri bo yagize ikibazo, ambilanse igiye kumujyana kwa muganga.

Ihuriro ry'abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abategarugori, bambaye imipira y'imyeru, hari kugenda hagaragara igice cyo hejuru ndetse n'icyo hasi kuri bamwe muri bo.

Ahantu batereka ibyombo bamaze kubyoza kugira ngo bibashe kuma neza, babiteretse ku zuba, hirya yaho hari insina ndetse n'imiyenzi. Izuba riri kubivaho kugira ngo byume.

Umugabo wicaye ku njerekani ayifasheho, yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'amabara ya karokaro, ishati irimo amabara menshi atandukanye. Ari ku ivomero yagiye kuvoma amazi inyuma ye hari ibyatsi.

Abantu benshi bahuriye hamwe, bari kwiga ku kibazo cy'ukuntu bakirinda inda zitateganyijwe ku bangavu, ku bana b'abakobwa batoya bataruzuza imyaka y'ubukure.

Umuganga wambaye itaburiye y'umweru imbere ye hicaye umubyeyi uteruye umwana, uwo muganga ari kumuha amata akoresheje bibero amufashe ku munwa kugira ngo abone uko ayamuha neza.

Abana benshi bambaye iniforume b'abanyeshuri, bambaye iniforume zisa biga ku kigo kimwe, buri umwe afashe igikombe ari kugenda afungura akantu kameze nka robine kabari imbere gateretse ku meza kugira ngo abashe gukuramo ibirimo abinywe.

Ihuriro ry'abantu benshi harimo abambaye amataburiya y'umweru abandi bambaye imyenda isanzwe, bamwe muri bo barahagaze abandi baricaye, bahagaze ndetse banicaye imbere y'inzu, inyuma yabo hari icyapa imbere yabo hari ubusitani.

Umwana uri gusuhuzanya n'umugabo wambaye umupira w'umuhondo wa World Vision. Uwo mugabo asa nk'aho akora mu kigo cya World Vision gikorera ku Isi hose. Hirya hari abandi bantu bari kubareba bicaye, ndetse na bamwe muri bo barahagaze.

Ari kuvoma amazi agwa mu ibasi akoresha indobo adaha muri iyo basi amazi, undi ari kumufasha kugira ngo amazi amanuke, bari kumufasha ni benshi ntago ari umwe.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bamwe muri bo bari mu itente, abandi bari inyuma y'itente, hirya yabo hari imodoka y'umweru, ndetse n'inyuma yabo hari n'inzu, hirya ku ruhande hari imirima ihinze.

Umuzungu uri gufotora umwana wikoreye injerekani, umwe w'umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'ingofero yafashije uwo mwana kwikorera injerekani, yayimuteretse ku mutwe, iyo njerekani ipfundikije umwanana.

Umusore wambaye itaburiya y'umweru ndetse na baji mu ijosi, akambara na ga mu ntoki, ari guhereza umukecuru umuri imbere, amuhereza imiti, inyuma ye hari undi wambaye ijiri wifashe mu mufuka, hirya ye hari undi uri kumufasha gukora akazi.

Inama yahuje abantu batandukanye bakora ibintu bimwe bicaye ku ntebe zigiye zitandukanye bicaye barebana, imbere yabo hari porojegiteri bari kureba ibyo bakora, bamwe muri bo bambaye amakote abandi bambaye amashati.

Ihuriro ry'abantu benshi harimo abakora muri kiruwaruje ndetse n'izindi nzego z'umutekano zitandukanye, urugero, nka polisi. Harimo umugabo wicaye imbere usa nkaho ari kunywa imiti, abandi bari kumureba bagiye bambaye amajeri bamwe muri bo bambaye imipira y'imyeru.

Umuganga uri gupima umwana abandi bana bari kumureba baricaye, ari kugenda apima umwe kuri umwe, uwo muganga yambaye itaburiya y'umweru ndetse na baji mu ijosi akambara ishati ndende ibasha kuba yagaragara.

Ni ihuriro ry'abana benshi bicaye hasi barambije bicaye ku misambi, bambaye imipira isa, harimo n'Abazungu, hirya y'uwo muzungu, hari imeza iteretseho ibintu bigiye bitandukanye, ndetse hirya hari abandi bicaye ku mashezi bari kubareba abo bana.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite baji mu ijosi, umwana wambaye ishati ndetse n'umubyeyi uhetse undi mwana, imbere yabo hari imeza, uwo muganga ari gupima uwo mwana ubushyuhe, anagenda aganiriza uwo mubyeyi w'uwo mwana.

Abana benshi bagiye kuvoma, bagiye bafite injekani zigiye zitandukanye inini n'intoya, umwe muri bo ari kugenda abapompera abavomera amazi azamuka ajya mu ntuza mu njerekani bagiye bazana.

Abanyeshuri ba Primaire bari gukaraba intoki n'amazi meza ari kumanuka kuri robine, umwe muri bo ari kugaragaza ibiganza bye uko ari bibiri, abandi baracyari gukaraba.

Abana batatu bari mu ishuri umwe yamanitse akaboko bicaye ku ntebe, imbere yabo hari tabule, inyuma hari ikibaho cyanditseho ibintu bigiye bitandukanye, hirya ku kibaho hari ibirahure ndetse ku kibaho hari udupapuro tugiye dufashaho.

Uruhurirane rw'abantu benshi, harimo abadamu, abagabo, bambaye imipira y'umutuku, bamwe muri bo bambaye amapantaro y'umukara, abandi ni amakoboyi, bari gukora akarima k'igikoni harimo n'Abapolisi.

Abantu benshi, bamwe muri bo bambaye imyenda isa hejuru imeze nkaho ari iniforome bakoresha mu kazi kabo, bahagaze imbere y'inzu, bamwe muri bo babiri baricaye, abandi barahagaze.

Ababyinnyi bari kubyina imbyino gakondo za kinyarwanda, bateze amaboko bameze nk'inyambo cyane, barasa neza bari mu nzu mo imbere ndetse basa nkaho bari bari kuganira ku bintu bigiye bitandukanye.

Abana benshi bari kumwe n'umubyeyi uteze igitambaro mu mutwe wambaye ibitenge, imbere yabo hari injerekani, amabase, indobo, bari kuvoma amazi bagenda bashyira muri izo njerekani ndetse n'indobo basimburanya.

Abana babiri umwe muri bo ateze igitambaro cy'umweru, undi ari imbere ye afashe indobo irimo imiti ari guseka. Ateruye iyo ndobo inyuma yabo hari inzu.

umugara juogenga aba ba bikoresha bakoreshejemaclascope igikoresho bakoreshareretwara ritoya kugirango ibabashe kuba bi cyakora kitagaragara igihemara hamwe

Abana benshi bamwe bari kuvoma amazi abagwa mu ntoki, abandi bari inyuma bari kubareba, hasi hari ibasi iri kugwamo ayo mazi, ayo mazi bari gukarabiramo.

Ihuriro ry'abantu benshi bari kuganira ku bintu bigiye bitandukanye, imbere hari abari kubabwira ndetse hari n'abandi babateze amatwi bicaye ku ntebe zitandukanye, hari na televiziyo bari kubasha gukurikiraniraho ayo makuru bareba abo bantu.

Ari gukaraba intoki n'amazi meza ari kuva mu gihombo agwa ku ntoki andi akagwa hasi, ari kugwa hasi ni yo menshi kuruta ari kugwa ku ntoki, ari kugaragara ibiganza byombi ariko ibindi bice bye by'umubiri ntabwo biri kugaragara.

Umuforomo wambaye agapfukamunwa, igitambaro mu mutwe ndetse n'imyenda y'akazi. Hirya ye hari undi wambaye nawe imyenda y'akazi imbere yabo hari ibikoresho bakoresha kwa muganga. Gusa igice cyo hasi cyabo cyose ntabwo kiri kugaragara.

Uruhurirane rw'abantu benshi bari imbere y'inzu, bamwe muri bo bambaye ingofero, abandi bambaye ibitambaro mu mutwe, harimo ababyeyi bahetse abana ndetse n'abagabo.

Umwana uri kuvoma amazi kuri robine agwa mu ntoki, yambaye ikabutura ndetse n'ishati. Hirya ye hari ipipa ipfundikiye, isa nkaho irimo amazi. Ayo mazi ari kumugwa mu ntoki, ari kugaragara igice cyo hejuru ariko ibirenge bye ntabwo bigaragara.

Umugabo wicaye hasi, yambaye inkweto zacitse, azambaye mu kuguru kumwe ahandi ntabwo yambaye, afite ishashi irimo amazi, yifashe ku mutwe, yambaye ingofero, imyenda isa nabi bikabije.

Umuganga uri kuganiriza abantu babiri, bose bambaye udupfukamunwa, bamwe muri bo bambaye ibitambaro mu mutwe abandi ntabyo bambaye, hirya inyuma yabo hari inzu za kera zubakishije ibyatsi.

Umupira ukoze mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu. Uri kugaragaza inyuma gusa imbere ntago uri kuhagaragaza, bawukoreshaga muri CHOGM yabereye mu Rwanda.

Ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye harimo gutera ibiti, gufata igiti ndetse no kwifotoranya n'abantu benshi bambaye imipira igiye isa. Inyuma yabo hari ibiti.

Umumama ufashe mikoro ari kuvuga imbere, yicaye ku ntebe y'umutuku ari kumwe n'umugabo wambaye umupira w'umukara nawe ari kureba imbere, imbere yabo kuri tabure hateretseho ishakoshi.

Umurwayi wo mu mutwe wambaye ibintu byacikaguritse ipantaro yacitse, ishati yacitse, imisatsi myinshi, ubwanwa bwinshi udaheruka kwiyogoshesha, ahagaze mu muhanda uri kugendamo amamodoka ndetse n'imoto.

Abantu bahuriye hamwe bose barahagaze, imbere yabo hari table igiye iriho ibintu bitandukanye, harimo nk'ibipirizo ndetse hariho n'ibipapuro bigiye bigaragaza ibintu bakora, bamwe muri bo bambaye imipira igenda isa.

Umuntu wikoreye igitebo kirimo imigozi y'ibijumba bakoresha batera kugira ngo habashe kuba hamera ibindi bijumba, afashe isuka mu ntoki, inyuma ye hari inzu ndetse n'igiti gifite amashami.

Ihuriro ry'abantu benshi bicaye ku ntebe, bamwe muri bo baricaye, abandi barahagaze, gusa intebe zose ntago bazicayeho, kuko abantu bahari ni bakeya kuruta intebe zihari zo ni nyinshi, ndetse kuri izo ntebe hagiye hariho agacupa k'amazi ka buri muntu.

Abantu bamwe muri bo baricaye, imbere yabo hari amacupa y'amazi kuri table. Imbere hari undi uri kubasobanurira ku bintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Abana benshi bambaye imyenda itandukanye, bahagaze ahantu hamwe, bamwe muri bo bafite utujerekani mu ntoki, hirya yabo hari ibyatsi, inyuma yabo hari n'ibindi byatsi byinshi.

Ikinyamakuru gisobanura ko turi kumwe, kirimo ishusho y'umuntu wambaye ishati y'umweru ndetse n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda kigaragaza ko turi kumwe, turi kumwe twese dufatanyije.

Abana barenze umwe bamwe muri bo bambaye imipira y'umutuku, bari guseka barishimye bari kugenda baganira ababari inyuma na bo bari kuganira bahagaze, bamwe muri bo baricaye abandi barahagaze.

Amabara abiri atandukanye: umweru n'rindi bara, harimo igishushanyo cy'umutwe w'umuntu, cyanditseho wadi mentor heresi deyi, okitoba, bishatse kuvuga umunsi w'abarwayi bo mu mutwe.

no kurwanya ihohoterwa ni' inshingano yanjye nicyo cyapa bafite ayo kugenda kibarebera bandi bari inyuma y'igi kugendagira muri miko

Uruhurirane rw'abantu benshi bamwe muri bo bicaye ku ntebe abandi babari inyuma, inyuma yabo hari inzu iriho icyapa kiriho amagambo atandukanye asobanura ibyo bakora.

Umama uteruye umwana wicaye ku mukeka imbere yabo hari mironko irimo umuceri, inyuma ye hari abandi bana basa nk'aho barakaye, uwo mubyeyi ateze igitambaro mu mutwe.

Umwana wishimye wicaye ku ntebe, yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, ishati iriho karuvati ari kurya biswi, imbere ye hari ameza, inyuma ye hari izindi ntebe n'ameza.

Abantu benshi bahuriye hamwe bisa nkaho bari kugenda bahamagara bake bake bakababaza ibibazo bitandukanye, harimo abantu bambaye imipira y'imyeru ndetse bakambara n'udupfukamunwa, bicaye ku ntebe.

Ikigo cy'Indera gishinzwe kwita ku basazi, umugabo w'umuzungu arahahagaze yifashe neza cyane, afite igikapu mu mugongo yambaye ishati ya karokaro y'amaboko magufiya.

Yifashe mu mutwe ndetse n'igisuko kinini cyane, arunamye ari kureba hasi, yambaye ishati ijya kuba irimo amabara y'umweru. Amaguru ntago ari kugaragara ndetse n'amavi ntabwo, na yo agaragara.

Umumama wicaye ufashe ibintu mu ntoki, wambaye imyenda isa nabi ndetse n'inkweto zisa nabi, hirya ye hari ibipipiri bijyamo amazi, inyuma ye hari abantu bari kugenda ndetse na bamwe bicaye.

Umutwe urimo ubwonko buri gutekereza ku bintu bitandukanye, bufitemo amabara y'umutuku. Hirya gatoya hari kugaragara amazuru, iminwa ndetse n'amaso. Igice cyo hejuru nk'umutwe nicyo kiri kugaragara gusa.

umugabo urikurira muma yakigorembaye yijimyekuru bigaragara nubwotacomen byamujije neza ariko biragaragara ko nkibibazo amaso yari yatukuye amazuru ye arikokurwamomewe n'ibiindi bya

Ihuriro ry'abantu benshi harimo inzego z'umutekano ndetse n'abandi bantu bakomeye muri guverinoma bashinzwe kwita ku burenganzira bw'abana bahohotewe ndetse n'undi muntu wese wahohotewe.

Umukecuru wishimye uri guseka, yambaye igitambaro mu mutwe cy'igitenge gisa n'ishati yambaye, inyuma ye hari abantu benshi harimo umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Ababyeyi bicaye hanze bari kuganira, bamwe muri bo bambaye ibitenge n'ibitambaro mu mutwe, abandi ni abagabo harimo n'umwana umwe uri kureba imbere bicaye hanze y'inzu.

Abana benshi bamwe muri bo bababaye, abari imbere bamwe bifashe mu maso abandi bameze nk'abateze amaboko, bambaye imyenda itandukanye isa nabi ndetse bari mu kivunge.

Icyapa kigaragaza Rwanda Mental Health Nursing Student Asociation. Gishatse kugaragaza association y'abanyeshuri b'abaforomo, kirimo umutwe w'umuntu ndetse hagaragaramo n'ubwonko ndetse n'inyenyeri.

Ikigo gishinzwe kwita ku barwayi cyane cyane abagore batwite bafite ibibazo bitandukanye abari kuruka ndetse cyita no ku muryango ugizwe n'ababyeyi ndetse n'abana babo.

Bahagaze ku masikariye, bambaye neza, bamwe bambaye amakote, abandi bambaye amashati, abandi bambaye amajipo, abandi bambaye amakanzu bagiye bahagaze, bamwe bari ku masikariye amwe, abandi bari ruguru yabo.

Abana benshi bishimye, bamwe bambaye udutambaro mu mutwe tw'umweru, undi aragafashe mu ntoki, bari kureba imbere, umwe muri bo ari guseka cyane, abandi bamuri inyuma bari kureba imbere.

Inzu nini cyane yubatse mu mabara y'umweru, hagiye harimo n'amadirishya. Bigaragara ko abafundi bayubatse bazi kubaka cyane. Hariho ibyapa bigiye bitandukanye biranga ko ari kwa muganga.

Abana bafashe uburoso mu ntoki ndetse n'ibikombe bari kwiborosa, basa nkaho babyishimiye, bambaye iniforume bigaragara ko biga ku kigo kimwe, hari kugaragara igice cyo hejuru igice cyo hasi ntabwo kiri kugaragara nk'amaguru ndetse n'amavi.

Umuntu uri guseka wishimye, usa nkaho anezerewe, yambaye umupira w'umweru, hari kugaragara igice cyo hejuru, na cyo cyose kitari kugaragara, icyo hasi ntabwo kiri kugaragara kirimo amaguru ndetse no mu mavi.

Umusore uri guseka yambaye umupira w'amaboko maremare, uwo bakunda kwita runiga, ari kwerekana akantu afashe mu ntoki, kariho utuntu tugiye dutandukanyeye twinshi turenze kamwe, hari kugaragara igice cyo hejuru gusa, hasi ntihagaragara.

Intebe y'abarwayi, intebe yo kwicaraho bisanzwe, televiziyo mu nzu, ububati bwinshi butandukanye bujyamo ibikoresho bitandukanye, isaha iri kubara, amarido n'umucyo mu nzu.

Amenyo menshi atangana neza ari mu moko atandukanye y'umuntu umwe umunwa, akananwa kari kugaragara.

Umusore uri kwireba mu kirahure uri guseka, uri kugaragaza amenyo, afite mu ntoki ze agacipiri yagashyize mu menyo, gashobora kumukata atarebye neza.

Umuganga w'amenyo yambaye ga afite utwuma tubiri mu ntoki akoresha avura amenyo, umurwayi yambaye amaherena arasamye kugira ngo umuganga abashe kumuvura neza.

Umujene wishimye, ufite akadodo mu ntoki, uko ibiganza bye ari bibiri bifashe urwo rudodo. Yambaye umupira w'umweru; ari guseka, arishimye cyane.

Ikoranabuhanga rihambaye rigaragaza amenyo y'umuntu menshi cyane kuko agiye atandukanye, kugira ngo babashe kuba bamuvura nimba hari atameze neza bayagire neza, bagende bayareshyeshya.

Umubyeyi ufite uburoso mu ntoki ari kwigisha umwana uko babukoresha, amureba amusekera amwishimiye amufashe, bose bambaye ubusengeri bw'umweru bafite imisatsi isa.

Ari koza amenyo akoresheje agacipiri kugira ngo abashe kugenda acishamo hagati y'amenyo uko agiye atandukanye. Ako kantu agafatishije akaboko, ateze igitambaro mu mutwe, arishimye ari guseka.

Kwa muganga ahantu bakoresha basuzuma abarwayi aho umurwayi yicara kuri iy'intebe iriho hano kugira ngo babashe kumusuzuma neza harimo amatara amurika cyane.

Intebe ikoreshwa kwa muganga, ifite ikoranabuhanga rihambaye ndetse ku mpande hari ibindi byuma bikoreshwa n'abantu babugenewe bazi kubikoresha neza kuko ntabwo wabikoresha ari ubwa mbere ngo uzabimenye.

Umugabo ufashe agacepiri mu ntoki ari ugakoresha mu menyo kugira ngo amenyo ye abashe kuba yasa neza. Afite isume k'urutugu, umutwe nturi kugaragara ndetse amaguru ntabwogo ari kugaragara ndetse n'amavi bakunda.

Ahantu hameze nko kwa muganga, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, bisaba kuba warabyize, kugira ngo ubashe kubikoresha, kuko ni ibikoresho bikoresha ikoranabuhanga, harimo urumuri rwiza, ndetse muri ibyo bikoresho harimo amateleviziyo, intebe, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Ihuriro ry'abantu benshi bamwe muri bo ni abaganga, bamwe bicaye mu itente abandi bahagaze hanze, bari kugenda binjiza umwe kuri umwe kugira ngo babashe kuba babitaho uko bagiye batandukanye.

Umuforomo wambaye imyenda y'akazi ari gusukira umurwayi ji mu kirahure ndetse amwereka ibintu yafata kugira ngo abashe kumera neza, imbere yabo hari imbuto zitandukanye harimo pome ndetse n'izindi.

Umusaza ari gusoma igitabo yafashe kukananwa afite ikaramu, yambaye amarineti mu maso, yambaye ishati ari kureba muri icyo gitabo.

Umuforomo wambaye impuzankano yo kwa muganga n'akantu bashyira mu matwi bakoresha bifashisha bari kumva uko umutima w'umurwayi uhagaze, ari gusuhuzanya n'umukecuru ufite imvi wambaye amarinete mu maso.

Umurwayi uri kumwe n'umuganga wambaye itaburiye y'umweru, imbere yabo hari amakayi ndetse n'ikaramu bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari ameza hirya inyuma hari ibirahure.

Abantu bari mu zabukuru, bari gukora imyitozo ngororamubiri, bateruye akantu nubwo ari gatoya ariko buri umwe karamufasha. Hari kugaragara umwe cyane uri imbere yabo, abandi bamuri inyuma.

Umuforomokazi ari guha umurwayi ibinini, umurwayi wicaye ku ntebe, imbere ye hari ameza, afashe ikirahure mu ntoki kirimo amazi, kugira ngo abashe kuba yanywa ibyo binini.

Uruhurirane rw'abantu benshi bari gusarura icyayi, bamwe muri bo bambaye udutambaro mu mutwe, abandi ntabwo batwambaye bambaye imyenda itandukanye, bari kugenda basarura bagana imbere.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana, umubyeyi yambaye amarinete mu maso bari gutegura ifunguro ryo kurya kugira ngo babashe kuba bamera neza. Inyuma hari ibikoresho bakoresha mu gikoni, hirya yabo ku ruhande gatoya hari isaha bakoresha kugira ngo bamenye igihe.

Abantu benshi bishimye bamanitse amaboko mu ntoki hejuru, bamwe muri bo bafite ibikoresho bakoresha mu guhinga harimo nk'incyamuro, bahagaze mu murima hirya yabo inyuma yabo hari ibigori.

Umuganga ari kumwe n'umurwayi we, yambaye imyenda yo kwa muganga ari kugenda yereka uko umurwayi azajya agenda yitwara, umurwayi wambaye ipantaro y'umukara n'agapira ndetse n'umukandara mu nda.

Umugabo wicaye ku gitanda yambaye ipantaro n'umupira n'amarinete, umuforomo arimo aramuhagurutsa we yambaye itaburiya y'umweru, inyuma ye hari akabati, supanete n'amatara.

Umubyeyi uri kwereka umwana mu gitabo imbere yabo habateretse amatasi kuri table. Uwo mubyeyi yambaye umupira, umwana we yambaye ishati ya karokaro. Ari kugaragara igice cyo hejuru, hasi amaguru ntabwo ari kugaragara.

Umuganga wambaye impuzankano yo kwa muganga, ari gupima umurwayi wambaye ipantaro n'umupira, mo imbere harimo agapira k'umweru n'amarinete, wicaye ku ntebe, wegamye no ku musego, inyuma ye hari itara.

Ababyeyi batatu bishimye bari guseka, bafite telefone mu ntoki zabo bari kwifotora cyangwa bari gukora videwo bishimye, babiri muri bo bambaye amaherena bafite imisatsi yimyeru.

Umucyecuru ndetse n'umusaza bishimye umusaza afashe umucyecuru k'urutugu umucyecuru yambaye umupi ishati y'umukara ndetse ateze igitambaro mu mutwe arishimye cyane ari guseka uwo musaza ari kumusoma ku itama.

Abadamu babiri bishimye, umwe muri bo yambaye furari mu ijosi akanambara n'ingofero mu mutwe ndetse anafashe n'ikintu cy'icyuma mu ntoki, undi bari kugendana we afashe akantuza mu ntoki, agakapu bakoresha bava guhaha nko mu isoko.

Umuryango wishimye urimo ababyeyi, abana ndetse ababyeyi bahetse abana bari kugaragara igice cyo hejuru mu maso amaboko, mu gatuza inyuma ntabwo ari kugaragara ndetse n'amaguru ntabwo ari kugatagara.

Umuganga wambaye imyenda y'umukara, umupira w'umukara, ipantaro y'umukara uri gufasha umurwayi kuba yagenda neza bakoresha ibikoresho byabugenewe, byifashisha abantu bagize ibibazo byo kubasha kugenda, kugira ngo bibashe kubafasha kugenda.

Abantu babiri umwe ni umuganga undi ni umurwayi wicaye mu kagare, ari kureba muganga wambaye impuzankano yo kwa muganga inyuma yabo hari intebe zigiye zifite imisego.

Abantu benshi bishimye harimo ababyeyi, abana, bambaye imyenda itandukanye, bicaye ku ntebe amaguru yabo ari kugaragara uretse umwe muri bo wambaye ipantaro ndende.

Bafashe akaboko bicaye mu gatebe k'akagare bakoresha kwa muganga k'abarwayi, undi ameze nk'aho ari umuganga umuvura indwara zitandukanye.

Ni babiri bose barahagaze umwe ari gutambukamo ahantu hafasha umuntu urwaye kugira ngo ngo abashe kuba yakimenyereza kugenda neza, afashe ku byuma bibiri byo ku mpande, undi ari kugenda amubwira uko abigenza.

Umukecuru uri gukora imyitozo ngororamubiri, ari kugenda akora siporo zigiye zitandukanye, ari kureba imbere, yambaye agasengeri karimo amabara y'iroza, hirya ye hari akabati kameze nk'intebe wakwicaraho.

Ikigo gishinzwe kurinda kanseri, kiri kugaragaza ibintu bitera kanseri zigiye zitandukanye, nka Kanseri yo mu Ibere, Kanseri y'Inkondo y'Umura, Kanseri yo mu Mpyiko ndetse n'izindi kanseri zitandukanye.

Umugabo uhagaze ari kwerekana uko urukingo rwa Monkey pox rwabonetse, ubu ngubu ushaka wese yajya kurugura akarugura ku isoko, arishimye yambaye ingofero, ahagaze munsi y'igiti.

Abaganga babiri bambaye bikwije ahantu hose amaga, amataburiya ndetse n'ibikoresho byo kwifashisha kwa muganga babizanye kugira ngo babashe gupima umurwayi indwara ya Kovide.

Abantu bicaye ku ntebe bambaye amakote inyuma yabo hari icyapa kiri kugaragaza oxpetion helf seft conferes inama zihuriyemo abantu benshi bari kwiga ku bintu bigiye bitandukanye yabaye muri bibiri na makumyabiri nakane.

RBC ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kwita ku baturage b'igihugu kugira ngo babashe kumererwa neza, ikirango cya Guverinoma y'u Rwanda, abantu bicaye ku ntebe ndetse n'uhagaze.

Abagabo babiri bari gusuhuzanya bose bafite ibitabo mu ntoki, bari kureba imbere bambaye amakote amakaruvate inyuma yabo hari afishe y'umweru iriho ikirangantego cy'u Rwanda.

Uruhererekane rw'ukuntu wagira ubuzima bwiza ukora imyitozo ngororamubiri, ujya ku ishuri kubyiga, gufatanya hamwe n'abaturage mu kwiteza imbere, gukora imirimo itandukanye.

Ihuriro ry'abantu benshi bahagaze, harimo abazungu, abirabura, ababyeyi, bamwe muri bo bambaye imipira y'umweru, abandi bambaye iy'umukara, abandi na bo bambaye imipira itandukanye n'iyabo ndetse harimo n'inzego z'umutekano, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ibyo bakora, hirya hari imodoka.

Ihuriro ry'abantu benshi bicaye, harimo abagabo ndetse n'abadamu. Harimo abagabo bambaye amakoti meza cyane y'umukara. Ndetse bari muri sale nini ikikijwe n'amabara atandukanye, harimo nk'umutuku ndetse n'umuhondo.

Kovide cumi n'icyenda iterwa n'ibintu bitandukanye, harimo gusuhuzanya cyangwa se kwitsamura, kumwe n'undi muntu amatembabuzi yawe akabasha kuba yamugeraho ibyo byatuma wandura kovide.

Itangazo riri gutangaza ko hari kubura umunsi umwe ngo hagire igikorwa gikorwa. Harimo umwana usinziriye muri iryo tangazo. Handitsemo amagambo agiye atandukanye. Grobal Health Forum.

Guhagarika Corona ni inshingano za buri wese, ukoresheje bino bimenyetso bikurikira, gukaraba intoki n'amazi meza, kwambara agapfukamunwa, gutanga intera hagati n'umuntu n'undi, ndetse kudakoresha ibintu, ibikoresho bigiye bitandukanye mu gusangira.

Umuforomo wambaye agapfukamunwa uri gutera umurwayi urushinge, uwo murwayi ari kurira bisa nkaho umuforomo ari bwo ari muri stage ari kwiga uko batera urushinge, inyuma y'uwo wicaye hari undi uri kureba uko bari kubikora.

Umuntu, abantu benshi, ihuriro ry'abantu benshi, institution. Ikigo gikora ibintu bigiye bitandukanye, amagambo asobanura ibintu bitandukanye, avuga ubukene ndetse n'ukuntu wakwirinda ubwo bukene.

Abantu babiri, umwe n'umusore undi n'umukobwa bafite ibyapa mu ntoki biriho ibintu bimwe byanditseho ngo bibiri na mirongo itatu, inyuma yabo hari intebe z'umweru, hirya hari tabure igiye iriho ibirahure ndetse n'amacupa arimo amazi.

Ivuriro rinini rikoreshwa kugira ngo abarwayi babashe kuba, bajyamo bakaba bagumamo se cyangwa bakaba bataha, ariko kugira ngo babashe kumererwa neza. Harimo amatara y'umweru, hasi hari amakaro, ndetse ku mpande hari n'ivaze irimo indabyo.

Kwa muganga harimo ibikoresho byinshi bitandukanye bakoresha bavura abarwayi bifite ikoranabuhanga rihambaye ribasha gukoresha umuntu wabyize harimo ibitanda, televiziyo ndetse n'intebe zigiye zitandukanye.

Ahantu heza cyane ibirahure byiza bigiye bitandukanye mu bunini uko bigiye birimo bihagaze, umuryango ufunguye ubasha kwinjira ahantu hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye harimo n'amafoto y'abantu.

Ibiro by'ubushinjacyaha bw'igihugu cy'u Rwanda, imbere hari umuntu uri kugenda wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara, hirya ye gatoya hari undi muntu uri kumureba, na we wambaye umupira w'umutuku, gusa igice cyo hasi cye ntabwo kiri kugaragara.

Inzu zigiye zitandukanye nziza akanyatsi imbere kariho indabo ndetse n'amagiriyaje agiye ari ku madirishya, amadirishya akoze mu mabara y'umweru.

Inzovu nziza cyane imbere baratandukanyetegeko ariko iragu neza imbere y'ahoshadege igiti giteye maderishal igaragara na hotel ngokurihira ari kugaragara inyuma inyubako bitandukanye bimezeyuma hagati ku ruhande na harigombameze neza.

Inzu ebyiri zidafatanye zubatse neza zubatswe gihanga n'abafundi b'inzobere, zigiye zifite imiryango itandukanye, amadirishya, imbere yayo hari ubusitani n'ahantu abantu banyura.

Inzu nini yubatse gihanga cyane hakoreshijwe abafundi kugira ngo bayubake neza, ifite amabara atandukanye harimo nk'umuhondo, ikagira n'ibirahure, hirya y'aho hari akanyatsi gasa neza.

Abantu benshi bahuriye hamwe, harimo inzego zitandukanye, inzego z'umutekano, abapadiri, abamasera, musenyeri, bari imbere y'inzu y'ababyeyi barwariramo.

Inzu yo kwa muganga nini iri mu mabara meza yubatse neza yakira ababyeyi barwaye, abatwite ndetse n'abandi bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo babashe kuba bamererwa neza.

Inzu ya etaje nini yubatse neza, abantu bahagazeho, imbere yabo y'izo nzu hari ubusitani bwiza ndetse n'umuhanda w'abantu babasha kuba banyuramo, hakurya hari amashyamba.

Abantu bane, bamwe muri bo bambaye amajiri y'umukara, abandi bambaye imipira y'umweru, bari guseka, bari imbere y'inzu ya raboratwari yo kwa muganga.

Icyapa kigaragaza ibitaro bya Kabgayi, ndetse n'inyubako nziza, amatara maremare, umuntu uri ku igare uritwaye uri kugenda ajya kuri ibyo bitaro.

Umuganga wicaye uri gukoresha mashini, yambaye agapfukamunwa, amarinete mu maso, ndetse n'itaburiya y'umweru, amaguru ye ntabwo ari kugaragara, hari kugaragara igice cyo hejuru gusa.

Inzu nziza cyane igiye irimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe, utubati, amatabule, hagiye harimo amabara menshi meza atatse neza, harimo ibara ry'ubururu.

Farumasi iherereye i Kanombe, abarwayi bifashisha kugira ngo babashe kuba bajya kuguramo imiti haba ari iyo muganga yakwandikiye cyangwa se wumva ubabaye, urabagana ubundi ukababwira ikibazo ufite bakagufasha kuba wakira.

Inzu y'imyitozo ngororamubiri, irimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibyo bakoresha birukankaho, bakora siporo, imbere hari televiziyo, ni sale nini igaragara nkaho yakira abantu benshi.

Inzu irimo imiti iri kuri etajeri myinshi itandukanye ivura indwara zitandukanye, indwara nyinshi iri kwa muganga ni yo bakoresha bifashisha mu kuvura abarwayi.

Inzu y'imyitozo ngororamubiri irimo ibikoresho byinshi bitandukanye bakoresha mu myitozo ngororamubiri kugira ngo umuntu abashe kuba yamera neza, abashe kuba yagira ubuzima bwiza.

Abaganga bari muri operasiyo ihambaye, uko bigaragara bambaye bikwije ahantu hose, bambaye ibintu by'umweru ndetse n'ingofero zitabasha kuba hagira ikintu kibinjira, ku mpande hari abarwayi baharwariye.

Ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, harimo ameza, intebe ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha kwa muganga ndetse n'ibindi bakoresha ahandi hatandukanye.

Inzu igaragaza ko aha ari ahantu havurirwa ibintu bigendanye n'ibazo by'indwara z'umubiri, cyanecyane mu gukora siporo kugira ngo zibashe gufasha umuntu kugira ubuzima bwiza.

Amamodoka menshi atandukanye, imbere ya zimwe muri izo modoka hahagaze umugabo wambaye ingofero mu mutwe, akambara umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, hirya hari imodoka bakoresha kwa muganga, hirya y'izo modoka hari inzu nini y'ibitaro, aho abarwayi bivuriza.

Kwa muganga ibitanda bibiri bishashe neza hariho matela, hari amarido ahari, harimo urumuri rwiza cyane aho abarwayi bakoresha bahasinzirira.

Umuforomo wambaye itaburiye y'umweru, akambara na ga mu ntoki ari gutera umujeni urushinge rwo ku kaboko k'iburyo, uryamye ku gitanda wambaye ingofero mu mutwe ndetse n'agapfukamunwa.

Abantu benshi bari ku kigo nderabuzima cya Nyarugenge, inzu nziza yubatse ya floor ebyiri ya etaje, ibitaro byakirirwamo abarwayi kugira ngo babashe kuba babavura.

Muganga wambaye itaburiye ndetse n'igitambaro mu mutwe, ari gushaka guterura umwana, umwana wambaye imyenda y'umweru, afashwe n'umubyeyi we bicaye ku ntebe, umuganga yambaye n'agapfukamunwa ndetse n'amarinete.

Ndi kubona icyapa cya Murekate Marie Denise hariho numero za terefone wakifashisha umuhamagara kubona umuntu n'umumotari bahagaze hanze y'iyo nyubako.

Igitanda gishashe neza kiriho umusego wo kwiyorosa, icyo gitanda kiragenda, imbere y'aho gatoya hari ahantu bakarabira haba mu mutwe cyangwa se mu maso, gifite urumuri rwiza muri iyo nzu.

Icyapa gishinze mu busitani cy'umweru, kigaragaza rehabilitation yo muri Kigali, hirya yaho hari inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye.

Abaturage benshi bajya hano hantu kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza, iyo bagize ibibazo byo kurwara bajya hano muri foromasi bakabaha imiti itandukanye kugira ngo bakire.

Umuntu wambaye yikwije ameze nk'aho ari kwirinda indwara zitandukanye, ari gukoropa ahantu cyangwa atera umuti, hirya ye hari indobo hakaba n'ahantu wafungura hameze nk'aho harimo amazi.

Inzu ndende icanye amatara, hasi hari kugaragara hejuru ntabwo hari kugaragara neza, imbere yaho hari ubusitani buteyemo igiti kirekire gisumba izo nzu zose.

Icyicaro gikuru gikora ibintu bigendanye no gutanga amaraso. Bifata amaraso abantu bagiye batandukanye baturutse hirya no hino kugira ngo bayifashishe bayaha abarwayi. Imbere hari imodoka y'umukara y'iyo nzu nziza cyane.

Inzu yo kwa muganga irimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, bakoresha bifashisha mu kuvura abarwaye, amatara amurika cyane ndetse n'ibitanda, abarwayi barwaye baryamaho kugira ngo babashe kubavura.

Umwana bari kumupima ibiro, bamushyize mu kintu kimufashe bamushyira ku munzani kugira ngo babashe kumenya ibiro afite, hirya hari abandi babyeyi bicaye hari n'undi uhagaze imbere y'uwo mwana uri kumureba.

Umuganga mu kugorora umuntu amukoraho mu buryoho ari kugaragaza ari gukoresha ikoranabuhanga areba uko arwaye ari kumupima kugira ngo abashe kuba yamuvura cyangwa abashe kumuha ku muti kugira ngo amufashe.

Icyuma gikoreshwa n'abaganga cyangwa ahandi hantu hatandukanye ariko kigakoreshwa n'umuntu wabyigiye ubifitiyeho ubumenyi kuko gifite ikoranabuhanga rihambaye, ritandukanye n'ibindi bikoresho.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yafashe akaguru kamwe k'iburyo yakazamuye yifashe ku ivi, uri kugaragara amaguru mbese igimba cyose kiri kugaragara, ukuyemo umutwe, umutwe niwo utari kugaragara.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, n'akantu bakoresha bifashisha kwa muganga bumva uko umutima w'umurwayi uri gutera, afashe umurwayi ku ivi ari kumuvura, ari kumurambura kugira ngo amere neza.

Ahantu harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bakoresha kwa muganga, amatara meza acanye amurika ndetse n'utubati tujyamo ibintu bigiye bitandukanye, hajyamo nk'imiti bakoresha kwa muganga.

Izuba rifite umucyo riri kurasa mu mazi, ni ku manywa hakeye, umumuma ahagaze ku ku musenyi ari kunywa amazi akoresheje icupa.

Kure hi kurutondwa itandukanye umweruumukara ubururu amubonaanakandi ka kuruhandefite n'akaba itandukanye umutuku n' ubururutaho ibishushanyo bitandukanye

Uri kunywa amazi, akoresheje icupa, ari gukoresha akaboko k'ibumoso, hari kugaragara umupira yambaye, ndetse igice cyo hasi ntago kiri kugaragara, nk'ibirenge ndetse no mumavi, n'umutwe hose, ntabwo hari kugaragara.

Isaha ikoreshwa kwa muganga, bayifashisha bareba uko umuntu ameze; ikoranye ikoranabuhanga kuko kugirango ubashe kuba wayisoma ni uko ubasha kuba warabyigiye, igiye ifite n'utubuto ku ruhande bakandaho.

Umusore wifashe mu ivi usa nk'aho ari kwivura, yambaye ikabutura y'umukara, ari kugaragara igice kimwe cy'amaguru, ibindi bice bye ntabwo biri kugaragara, harimo nk'umutwe, ku nda ndetse n'amaguru, ibyo ntabwo biri kugaragara.

Ibikoresho bitandukanye byo gukoresha imyitozo ngororamubiri, harimo umugozi wo gusimbuka, inkweto zifunze, imbere yaho hari ifunguro ririmo ibintu bitandukanye ibitunguru, inyanya ndetse n'imbuto.

Umusore uri kunywa amazi mu icupa akoresheje akaboko k'iburyo, ari kugaragara igice cyo mu mpande, inyuma hose ntabwo ari kugaragara ndetse n'amaguru ntabwo ari kubasha kuba yagaragara ndetse n'amavi.

Muganga uri gukanda umusipor9tifu ku kaguru k'iburyo. Inkweto yambaye inkweto za siporo. Mu gihe hari kugaragara amaguru gusa y'uwo murwayi amaso ntabwo ari kugaragara. Uwo uri kumukanda na we ntabwo ibice byose bye biri kugaragara ndetse no hirya yabo hari undi muntu uhahagaze.

Umugabo wicaye imbere ya mashini, ari kureba amashusho arimo ibintu bitandukanye hirya ye hari ibindi bikoresho bakoresha kwa muganga mu kuvura abarwayi kugira ngo babashe kuba barushaho kumera neza.

Website y'abaterete b'abanyarwanda, ahantu babasha guhurira kugira ngo babashe kuba bagira ibyo bapanga. Urubuga bakoresha kugirango ngo babashe kuba bapanga kujya muri siporo cyangwa andi matangazo atandukanye.

Umuntu uri kwandika akoresheje ikaramu yandika ku rupapuro ibyo ari kureba, harimo ibikoresho bya siporo, isaha bakoresha bipima imetero ndetse n'ibikoresho bakoresha kwa muganga bigiye bitandukanye.

Ahantu bakorera imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye bakoresha muri siporo, harimo umutoza wa siporo wambaye ingofero y'umukara, harimo ndetse n'undi waje muri siporo uryamye ahantu.

Inkweto ebyiri nshyashya zikundwa gukoreshwa n'abasirikare, abantu bubaka, abakora akazi gatandukanye, abajya mu bishanga, abajya mu mashyamba, gutembera ndetse n'abandi benshi.

Abaganga bagiye batandukanye bambaye imyenda yo kwa muganga itandukanye, bari muri operation y'umurwayi kugira ngo babashe kuba bamufasha kumera neza, bamwe muri bo bambaye amarinete abandi ntabwo bayambaye ndetse banambaye udupfukamunwa.

Umusore uri muri siporo yashyize akaguru hejuru, akandi kari hasi, kamwe kari kubyuma, yambaye isaha mu ntoki, ndetse n'inkweto za siporo, agakabutura k'umukara ndetse n'isengeri ry'umukara, ari kureba imbere, ibice bye byose ntabwo biri kugaragara neza, nko ku mutwe hejuru ku musatsi ntabwo hari kugaragara.

Ivuriro ry'Igihugu cy'u Rwanda rya gisirikare ribasha kuvura abarwaye indwara zigiye zitandukanye, hajyamo abasirikare ndetse n'abandi bantu babiherewe uburenganzira kugira ngo babashe kuba babavura.

Icupa ry'amazi ripfundikiye neza, arifashe mu kiganza mu kaboko kamwe, ibindi bice nk'amaso, umutwe, amaguru ndetse n'amavi, mu nda, umugongo n'ikibuno, byose ntabwo biri kugaragara.

Ari kunywa amazi akonje akoresheje ukuboko kw'iburyo ndetse n'icupa, igice cy'amaguru ntabwo kiri kugaragara hari kugaragara mu maso nabwo umutwe wose ntabwo uri kugaragara ndetse no mu gatuza, mu mavi na ho ntabwo hagaragara.

Isuzumiro ryo kwa muganga rirafunguye, imbere hari ahantu bashyira umurwayi bakamusunika, akajyamo mo imbere, bakareba ubuzima bwe ukuntu bumeze kugira ngo babashe kuba bamuvura.

Ari kunywa amazi akoresheje icupa arifashe mu ntoki n'ikiganza, yambaye umupira w'umukara, mu maso hose ntago hari kugaragara, hari kugaragara amazuru, umunwa, amatwi ndetse n'umusatsi.

Umuganga ufashe umupira mu ntoki bakoresha bagenda bahererekanya umwe aherereza undi, n'undi ahereza undi kugira ngo babashe gutsinda, amaguru ye ntabwo ari kugaragara ndetse n'umutwe ntabwo uri kugaragara, ari kugaragara amaboko n'imyenda yambaye yo hejuru gusa.

Umuforomo wambaye imyenda yo kwa muganga, afashe bande ari guhambira umusore ku kaguru kamwe, kamwe kambaye inkweto akandi nta nkweto zako kambaye, yambaye umupira w'umukara ndetse n'ikabutura.

Abakinnyi batandukanye bambaye amajezi atandukanye, bamwe muri bo bambaye amajeze y'imihondo, bifashe mu mayunguyungu bisa nk'aho hari umukinnyi warwaye wavunitse, abantu bakora muri croix rouge bari kumufasha kuba yamera neza.

Babiri baryamye ku gitanda, abandi bari kubagorora mu mugongo, bameze nkaho bafite ikibazo mu mugongo, umwe araryamye n'undi araryamye, bari kubafata mu mugongo.

Imipira myinshi itandukanye ikoreshwa muri siporo harimo iya futubolo, iyo muri basikete ndetse n'iya rugubi, iya tenisi ndetse n'agapimisho bakoresha kwa muganga bapima indwara zitandukanye.

Aba croix rouge benshi bari kwiga uko bakora umwuga wabo, umwe muri bo ari kubigisha abari imbere afasha umurwayi, ari kubereka uko bazajya babikora bamuri inyuma.

Imidari itatu, icupa rimwe ry'amazi n'imineke, amacunga, pome, amaronji, ndetse n'imiti itandukanye, ibinini, ndetse n'ubunyobwa.

Ari kunywa amazi mu ijosi hari kuteli babasha kumviramo umuziki, mu kaboko k'ibumoso hari ikintu kihahambiriye ndetse hari n'akandi yahambirije ku kaboko k'iburyo yifashe mu mayunguyungu, ibice byose bye ntabwo biri kugaragara ibitagaragara harimo nk'amaguru ndetse n'amavi.

Kwa muganga igikoresho bakoresha basuzuma umuntu umubiri wose kugira ngo barebe uko ameze, uko arwaye uko umubiri we uhagaze kugira ngo bazabashe kuba bamuvura kandi bigende neza.

Umu siporutifu wambaye isaha ku kaboko k'ibumoso, akambara ekuteri mu gutwi, ari kureba imbere yambaye agasengeri ari kwinanura. Igice cyose ntabwo kiri kugaragara hari kugaragara hejuru gusa nabwo inyuma.

Umusore wambaye isengeri uri kunywa amazi wicaye ku muhanda, akazuba kare kuva birasa nkaho ari mu gitondo, hirya ye hari undi muntu uri kugenda agenda mu nzira.

Imiti myinshi itandukanye ivura indwara zitandukanye ikoresha kwa muganga, ndetse n'ibikoresho bikoreshwa na muganga cyangwa undi muntu uwo ari we wese, kugira ngo abashe kuba yakwirinda ibyago bigiye bitandukanye.

Gukora siporo ni ingirakamaro. Wifashishije ibikorwa bitandukanye, harimo gukina umupira, gutera karate, gukina Golf ndetse no gukora indi myitozo ngororamubiri nko kwinanura cyangwa kwiruka.

Amabogisi atandukanye, arimo ibikoresho bakoresha mu buvuzi bw'ibanze. Ni muri croix roug, bitwawe n'abantu bambaye amapantaro y'umukara, hirya yabo hari abandi bambaye imipira y'umweru, n'abandi bambaye amashati y'umuhondo.

Uruhurirane rw'abantu benshi, bamwe muri bo bari imbere bari kubyina, bambaye amasengeri y'imyeru n'amapantaro n'amakabutura y'umukara, bamwe muri bo bambaye amakabutura y'umweru bari mu kibuga cya basket, abandi bari inyuma bari kubareba.

Umusore uri gukora siporo imyitozo ngororamubiri, yifashe ku mugongo akoresheje akaboko k'ibumoso akandi kari kumufasha kuba yagera aho ashaka kugera, yambaye isengeri ari kugaragara inyuma imbere ntabwo hari kugaragara.

Ibitanda byinshi bigiye bitandukanye, biriho amamatera asa, hariho umubyeyi ndetse n'umwana bicaye kuri icyo gitanda, hirya yabo hari abandi na bo bicaye ku gitanda, umwana ari gukoma mu mashyi.

Imbuto nyinshi zitandukanye, harimo pome, urusenda, avoka ndetse inkweto n'udukoresho bakoresha muri siporo, intoki z'umuntu ziri kugaragara nta bindi bice bye biri kugaragara nk'amaso ndetse n'amaguru.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hari icupa ririmo amazi, yambaye inkweto z'umutuku yifashe ku kirenge ku kaguru kamwe akandi yagahinnye asa nk'ukerekeza ku kundi kuguru.

Ibimenyetso byinshi bigiye bitandukanye, bigaragaza y'uko umuntu yarwaye indwara zitandukanye, harimo nko kuruka, kuribwa n'umutwe, kugwa, kumva amatwi ye afite ikibazo, gushaka kuruka ndetse no kwiheba.

Umuganga wambaye itaburiya wambaye baje mu ijosi, ufashe akaguru k'umurwayi ari kumugorora, ako kaguru ni ak'ibumoso ari kugorora, agafatishije amaboko yombi uko ari abiri.

Imipira myinshi itandukanye bakoresha mu mikino igiye itandukanye, harimo Football, Basket ndetse n'iyo bakoresha muri Rugby, harimo na kasike bakoresha mu mukino.

Bari gukora imyitozo ngororamubiri, bambaye imyenda ya siporo itandukanye, amapantaro, amakabutura, inkweto, amasogisi, bari ku mirongo igiye itandukanye, bamwe bari imbere abandi bari inyuma, barabakurikira bari kugenda bakora ibintu bimwe.

Akaboko kariho ishashi iri kumuvura yagafatishije ikiganza, yisize amahina ndetse ako kaboko kari ku kuguru, yambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'umupira w'umweru.

Akagare bakoresha basunika bashyiraho ibi bitandukanye hejuru hariho ahantu wakicaraho hasa abantu bashyiramo ibintu bitandukanye, bagenda bifashisha mu nzira, kariho amapine, hejuru hari aho gufata.

Imiti itandukanye ya kinyarwanda, iri mu mabara atandukanye, yubitseho agasekuru bakoresha basegura. Iyo miti, iri mu mabara menshi atandukanye, bakoresha bivura indwara zitandukanye.

Umuturage ufashe amashami y'igiti asa nkaho ari kuyakuraho. Yafatishije ibiganza bibiri ari kureba imbere, yambaye umupira w'umweru, amaguru ye ntabwo ari kugaragara, hari kugaragara umutwe n'amaboko ndetse n'inda.

Imiti myinshi itandukanye, uruhu, amavuta, shokora bashyira mu ikawa, icupa ririmo ikawa, amashusho agaragara kuri ibyo bikarito birimo amavuta atandukanye biri mu mabara atandukanye.

Ibibabi byinshi biri mu moko menshi atandukanye, bikoreshwa mu ngeri zigiye zitandukanye, harimo ibyo bakoresha bivura ndetse ibindi bakabikoresha mu... mu gukiza indwara zigiye zitandukanye.

Amacupa menshi agiye yatandukanye ajyamo imiti apfundikije imipfundikizo itandukanye ndetse ayo macupa nta nubwo angana, amwe ni manini andi ni matoya ateretse ku kintu cy'icyuma.

Imiti myinshi itandukanye, ikorwa n'uruganda rwa Ariyanse, iri mu tuntu dufunze neza, imwe iri mu macupa, indi iri ahandi hantu hafunze neza, ikozwe mu bibabi bigiye bitandukanye.

Imiti myinshi itandukanye ya Kinyarwanda, bakoreshaga kera ndetse bakaba banayikoresha ubu ngubu ku bantu bamwe na bamwe batandukanye, ifite amabara atandukanye igiye iri mu tuntu.

Indubo nyinshi zirimo ibitaka, zazamutsemo ibiti biriho amashami meza bakoresha bivura, bikoze nk'uruzeru.

Imiti itandukanye, bisa nkaho ari imiti nayo itandukanye, handitseho amagambo ariko aratandukanye ariko biragaragara ko ari imwe, bayikoresha bivura indwara zitandukanye.

Imiti myinshi ya gakondo ya kinyarwanda ivura indwara zitandukanye kugira ngo urwaye abashe kuba yamererwa neza, iri mu mayetajeri ndetse iyo miti iri mu mabara menshi agiye atandukanye.

Igiti cya Kinyarwanda cya kera cyakoreshwaga mu kwivura indwara nyinshi zitandukanye, gifite amashami menshi agiye agishashamikiyeho, giteye mu butaka.

Ururabo rwashibutse neza, ruri hasi rufashe ku butaka rurimo amabara y'intuza, hejuru yarwo rufite bibabi bimeze nk'iby'amashu, hari imogozi miremure, bigiye bifasheho byose, izo ndabo n'ayo mashami ameze neza.

Ubuhinzi bwateye imbere bari gukoresha amamashini, harimo abantu benshi bari guhinga, iyo foto nyuma yaho hariyo ibihingwa bisa nkaho byeze wagira ngo bameze nkaho bari kubagara, umwe ari mu mashini abandi bari inyuma ye, bari kugenda basa nkaho bamukurikiye.

Imiti myinshi itandukanye igiye ivura indwara zitandukanye, hirya y'aho hari firigo, imbere hari umuganga ushinzwe gutanga iyo miti wambaye itaburiya y'umweru, imbere ye hari imeza ndetse n'intebe.

Imiti myinshi ya Kinyarwanda ivura indwara zitandukanye iri muri etajeri, hirya y'aho hari umuntu wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro uhagaze ndetse ku mpande handi hari undi muntu nawe uhahagaze inyuma ye hari inzu.

Umuganga wambaye itaburiye y'umweru ndetse n'agapfukamunwa n'agatambaro mu mutwe, afashe igikarito ari kugenda ashyiramo amacupa ayapaking atereka ku ruhande kugira ngo abashe kuba yafasha abantu kumera neza.

Afashe agacupa k'umukara mu ntoki, kanditseho lavender, apfundikiye neza, umutwe we uri kugaragara ariko wose ntabwo ugaragara, hari kugaragara umunwa gusa, amaso n'amazuru ntabwo biri kugaragara. Ndetse n'ikindi gice cyo hasi nk'amaguru nacyo ntikigaragara.

Umugabo ufashe icupa ripfundikiye ari kuripfundura, hirya ye hari andi macupa apanze neza cyane, imbere ye hari tabule iriho indobo, hirya hari ibindi bikoresho bitandukanye.

Ibibabi byinshi bitandukanye biri mu moko menshi atandukanye, byakuriye ahantu hamwe ariko bimwe muri ibyo ngibyo babyifashisha bavura indwara zitandukanye.

Indabo ziri mu moko menshi atandukanye ndetse n'ibyatsi bigiye bitandukanye, harimo iby'umutuku, umuhondo, ibisa icyatsi babikoresha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Imiti ya kinyarwanda ihinze mu butaka bwera neza cyane kuko yarashibutse, hariho amababi ariyo bakoresha mu kuvura indwara zitandukanye, babasha gukoresha kugira ngo bavure urugero, nk'inkorora ndetse n'ibicurane.

Icupa ry'umutuku riteretse ahantu hari amabara y'umweru yanditseho forever energy drink bakoresha kugirango umuntu abashe kuba yagira imbaraga, umuntu anywa kugira ngo abashe kuba yagira imbaraga zisumbuye ku zo afite.

Tungurusumu bakoresha gushyira mu cyayi, abantu bakazinywa kugira ngo babashe kuba bamera neza mu muhogo ndetse babashe no kuba bagira imbaraga babashe kwishima.

Imiti myinshi itandukanye ya kinyarwanda bakoresha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, umuntu arayifashe imwe muri yo arimo arayisekura yayishyize mu isekuru, iyo miti irambitse ku mukeka.

Imiti igiye itandukanye y'ibibabi bitandukanye bivura indwara zitandukanye ndetse n'ibishushanyo bishushanyije, bakoresha mu ishuri biga nk'amabonde ndetse n'amabenzeni.

Umuti uvura indwara zo mu nda bita Amibe, uri mu icupa ry'umweru upfundikiye neza bakoresha mu kuvura indwara zo mu nda.

Icupa ripfundikiye neza cyane, ririmo umuravumba ukozwe mu byatsi bihingwa mu butaka, ibyatsi byiza bivura inkorora, ibicurane, byikoresha mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuntu afashe umuti wabonye, Akoresha yoza amenyo kugirango abashe gusa neza, ari kuwukanda, kugirango umanuke ujye ku buroso, kugirango abashe kuwukoresha neza.

Ahantu harimo imiti myinshi ya kinyarwanda, harimo abantu benshi bari kugenda baganira uko iyo miti bazajya bayikoresha mu kuvura abantu barwaye indwara zigiye zitandukanye.

Igihingwa giteye ahantu gifite amashami cyashibutse, umuntu aragifashe afashe ikibabi kimwe n'intoki. Intoki ni zo ziri kugaragara nk'umutwe, amaso ndetse n'amaguru ntabwo biri kugaragara, ni intoki gusa.

Amacunga amwe muri yo areze, ayandi ntago yeze neza, rimwe rirakase, ni igice kimwe, ikindi ni uduce dutoya duteze, ndetse n'ibibabi by'ayo macunga.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, afashe ibinini mu ntoki ndetse n'igikarito yabikuyemo; ibiganza birambitse ku meza, aricaye, ari kwerekana iyo miti uko imeze, ibinini bitatu bivura.